Umumama ufashe mikoro uri imbere y'abaturage, ari kubabwira ibintu agomba kubabwira, ndetse arimo abagira inama uburyo bagomba kwitwara n'uburyo bagomba kubona mu mahoro, n'abaturage bari kubyumva ndetse barabyishimiye.

Umugore ufashe mikoro ufite n'igitabo ndetse wambaye umwenda w'umukara, ari kubwira abaturage uburyo babikorera mu isibo ni gahunda ya Leta ifasha abaturage kwizigamira, gutanga ejoheza ndetse no gutanga mituweli bikorewe mu isibo aho batuye.

Mudasobwa nini cyane irimo amafoto ndetse ifasha abantu kwiteza imbere, mu gihe bafite urugero nk'irembo ndetse n'ibindi bikoresho, bibafasha gutunganya amafoto, videwo n'ibindi.

Abagabo n'abagore n'abasore n'abakobwa, babyukiye mu nama, ndetse bari kumva ibyo bababwira, kugira ngo babikurikize, bibafashe mu kubaho neza kwiteza imbere no kubaka ubuzima bwabo n'igihugu muri rusange.

Abagore babiri bahagaze imbere y'abaturage bari kubaremesha inama barimo barababwira uburyo bagomba kwitwara, bari mu ihema ryiza ry'umweru rifite n'ibara ubururu, umuhondo, n'icyatsi, bigaragaza idarapo ry'u Rwanda.

Umugore uhagararanye n'abagabo, ari mu baturage benshi cyane, afashe mikoro ari kubagira inama, uburyo bagomba kwiyitaho ubwabo ndetse bagomba no kubana mu mahoro, bakicungira umutekano, bagafashanya, bakabana mu mahoro.

Abagabo n'abagore abasore n'abakobwa bari mu cyumba kiza baje kurema inama bumva ibyo bababwira, ndetse bari kubyumva neza, bari no kubyumvira gusa bisa no kubona ababa bishimiye uko babyumvise.

Abakobwa beza bakenyeye imyambaro y'umweru bari kubyina imbyino gakondo z'u Rwanda ndetse byari bishimishije ndetse n'umuco mwiza dukunda nk'abanyarwanda uranatunezeza.

Abakobwa beza bahagaze neza bari kubyina imbyino gakondo z'u Rwanda ndetse inyuma yaho hari abandi bakinnyi imyenda y'imyeru hariho n'ingoma zo kuvuza, kugira ngo irusheho kumera neza.

Abakobwa bambaye neza bitewe n'imyitero y'umweru, bari kubyina imbyino gakondo y'u Rwanda, ifasha abantu mu kwishima, mu gutarama ndetse no gutaramana n'ababo bigatuma twumva turi abanyarwanda.

Abakobwa beza bambaye neza, biteye ibishura by'umweru ndetse bari kubyina imbyino nyarwanda, zagaragazaga umuco wa kera ndetse zigafasha abaturage kwishima no kwishimisha no kunezererwa.

Abakobwa bari kuri tapi nziza bakenyeye imikenyero y'umukara n'umweru bari kubyina imbyino y'umuco nyarwanda ndetse ni umuco mwiza watwerekaga ko Abanyarwanda twihariye mu muco wacu.

Abasore bambaye neza bafashe ikibindi kirimo imiseke ndetse kirimo n'umusururu, byagaragazaga umuco nyarwanda ndetse bambaye neza, bambaye ibishura by'umweru barasa neza.

Abagabo bogoshe inyogosho ya kera yitwa amasunzu yogoshwaga abami, abagabo ndetse n'abandi bantu, ibumbatiye umuco nyarwanda kuko iri mu bimwe bikomeye mu muco nyarwanda.

Abasore bambaye neza bafite n'inkoni nziza batashye ubukwe ndetse bambaye imyambaro ya Kinyarwanda, inyuma yabo hari yo n'amodoka meza, basa neza, baraboneye rwose.

Abagabo babiri bari gukina ikino bita ikibuguzo, bagikinaga kera na n'ubu baracyagikina, ku buryo cyabafashaga kumara ubute mu gihe bavuye mu kazi kabo ka buri munsi ndetse kikabafasha no gusabana.

Inka nziza nini y'inyambo isa neza ifite amahembe maremare asa n'akoze uruziga, byagaragazaga umuco wa kera mu Rwanda ndetse abantu barazikunda cyane, kuko zibumbatiye umuco nyarwanda.

Amapiloni y'amashanyarazi, ari ahantu hari urugomero rwayo, afasha abaturage mu kubaha umuriro ndetse bakunguka n'ibindi bikorwa remezo, bakabona amafaranga abatunga, bakihangira imirimo.

Umugabo wambaye imyambaro y'akazi, yambaye n'ingofero y'umweru imufasha kudakomereka mu mutwe, ari gukora amashanyarazi kugirango yohereze umuriro mu baturage ndetse bibafasha mu gucana no kumurika abafashe no kwihangira imirimo.

Amapiloni y'amashanyarazi acaho insinga kugira ngo zigemure umuriro mu baturage, ni uburyo bihangira imirimo bashinga amasaro bashinga inganda nini n'intoya kugira ngo biteze imbere bateze imbere n'imiryango yabo.

Ibishyimbo biri mu murima mwiza harimo n'insina ndetse n'ipiloni ry'amashanyarazi rijyanye umuriro mu baturage kugira ngo babone uburyo bacana mu mazu yabo ndetse n'abana b'abanyeshuri babone uburyo basubira mu masomo yabo.

Amapironi y'amashanyarazi menshi cyane, atwara umuriro mu baturage kugira ngo biteze imbere bateze imbere n'imiryango yabo, binyuze mu gushinga amasaro ndetse no kubaka amazu bagashinga inganda nini n'into cyangwa se n'iziciriritse.

Abaturage, abagabo n'abagore babyukiye mu gikorwa cy'umuganda, cyo gukurura insinga z'amashanyarazi kugira ngo bazihanike zihe umuriro abaturage, biteze imbere, bacane ndetse n'abanyeshuri bage babona uburyo biga.

Umugabo w'umuzungu wambaye akajiri k'umuhondo n'ingofero y'umuhondo uri gukora amashanyarazi kugirango yohereze umuriro mu baturage biteze imbere bateze imbere n'imiryango yabo ndetse n'abana bafite babona umuco basubira mu masomo yabo.

Umukozi w'amashanyarazi ufite igikoresho gipima umuriro uburyo ugendamo, gifasha abantu mu gupima umuriro kugira ngo utaza gutomboka ukabotsa, ukangiriza ibikorwa remezo ndetse ukaba wakwica n'abantu.

Abaturage bari mu i santere ndetse hari n'amazu y'ubucuruzi afasha abantu gucuruza ndetse aha bakabona aho bahahirira, hafi harimo n'amapironi y'amashanyarazi afasha abantu mu kubona umuriro w'amashanyarazi.

Inzu ishakajwe amabati atukura, ndetse iriho n'umurasire ifasha abaturage mu kumurika, kugira ngo babone nk'abanyeshuri babone uko basubira mu masomo yabo, ndetse biyungura ubumenyi, banongere ubwenge bwabo.

Amapiloni y'amashanyarazi atwara umuriro mu baturage ko abafasha kwihangira imirimo, harimo gushinga amasalo ndetse no gushinga inganda inini n'intoya bakiteza imbere, bakongera n'akazi mu baturage.

Amapiloni y' amashanyarazi meza cyane atwara umuriro mu baturage kugira ngo ubafashe kwihangira imirimo ndetse unabamurikire babone uburyo abana babo biga mu gihe bari gusubira mu masomo.

Abaturage bambaye neza bari imbere y'ivuriro ryanditseho ngo gira ubuzima bifasha abaturage kuza kwivuza batiriwe biruka mu bice byinshi bitandukanye, ndetse bikabarinda kwivuza magendu.

Ikibuga cy'umupira wa Nyagatare cyubatse neza, kiriho, giteye n'irangi ry'umuhondo, umutuku ndetse n'irindi rigiye gus n'idarapo ry'u Rwanda, ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, gifasha abantu kuza kwishima no kuza kureba umupira.

Abaturage bari kunyura mu muhanda wa kaburimbo mwiza, hariho n'amamodoka ari kuwunyuramo ndetse wegereye amashuri meza asakajwe amabati y'ubururu ndetse akaba ateye irangi ry'umuhondo.

Umuhanda w'igitaka mwiza unyuze impande y'amazu y'abaturage ubafasha mu gutwara ibintu n'abantu bakiteza imbere ndetse bagateza imbere n'ingo zabo bakabona n'amafaranga yo kujyana abana ku ishuri.

Umuhanda mwiza wigitaka ubarwamo na bagenzi igihe bagiye mu kazi, ukabafasha mu gutwara ibintu n'abantu ndetse bisanzuye neza, bikabateza imbere bagateza imbere n'imiryango yabo.

Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo ngo '' ingoro y'ubutabera urwego rw'ibanze rwa Nyagatare''. Ifasha abantu kuza gushaka ubutabera kugira ngo bakiranuke bave mu makimbirane.

Ibyapa byinshi, byegereye amazu ndetse bigaragaza ko biri ku mupaka w'u Rwanda na Congo, bifasha abaturage mu kubayobora ndetse kugira ngo bamenye iyo bajya n'iyo bava batayoha.

Icyapa cyanditse ngo kubaka ibikorwa remezo, harimo nk'ikiraro ndetse gifasha abaturage mu kwambukiranya ahantu hajya amazi, akabafasha kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yabo ndetse n'ikibaya cyabo.

Inzu nziza yubatse neza, irimo inzugi nziza ndetse irimo n'amadirisha meza iteye irangi ry'ubururu, ikaba isakaje amabati atukura, ikaba ifite n'imirasire ifasha abaturage kubona umuriro ndetse no kumurika mu nzu.

Inyubako nziza isa neza, isanari ya Leta, imeze neza iteye irangi ry'umuhondo, ifasha abaturage mu kuza gusaba serivisi ndetse bakayibona mu buryo bworoshye batiriwe biruka bajya ahandi hantu hatandukanye.

Umuhanda w'abagenzi na kaburimbo nziza ifasha abaturage gutwara ibintu n'abantu bava gusarura ndetse bajyana n'intu ku isoko kugira ngo biteze imbere ndetse bateze imbere n'imiryango yabo.

Inyubako nziza, ikikijwe n'ibyuma biteye irangi ritukura ndetse isakajwe n'amabati atukura, hasa naho ari mu isoko rifasha abaturage mu gucuruza ibyo bahinze ndetse n'abahaha bakabona aho guhahira mu buryo bworoshye.

Inyubako ndende zubakishijwe amatafari ahiye ndetse zimwe zinageretse ziteye irangi ry'umweru izindi ziteye irangi ry'ubururu ziriho ahantu handitse ngo Inyange Milk.

Inyubako nini nziza, isakaje amabati y'umukara, iriho n'umuhanda mwiza w'igitaka, ifasha abaturage mu kuza kumva cyangwa se wenda no kurema inama, kuko isa naho ari iya leta.

Mu muhanda uri kunyuramo imodoka. Harimo inyubako zigeretse kabiri ndetse zubakishije amatafari zisakajwe n'amabati y'ubururu ndetse zisa neza, hari n'agasozi keza kariho ibiti ndetse bifasha mu guhumeka umwuka mwiza.

Abantu babyukiye mu gikorwa cyo gutaha igikorwa remezo runaka hariho umuzungu ndetse n'umwirabura bari gukata akantu kugira ngo binjiremo hari n'amarido meza asa neza y'umweru.

Abaturage babyukiye mu nteko baje kwiga ku bibazo bafite, hari umugabo uhagaze ufashe mikoro wa n'ingofero urimo kubagira inama uburyo babana mu mahoro, ndetse bakabana na bagenzi babo kugira ngo birinde amakimbirane.

Abaturage bari kumwe n'abapolisi n'abasirikare, babyukiye mu gikorwa cy'urugendo, barimo babwira abaturage, uburyo bagomba kubana mu mahoro ndetse bakicungira umutekano.

Ibiti bicanyeho umuriro ndetse bifasha mu gikorwa cyo kwibuka. Hari n'inzu yanditse ngo Nyagatare Jenoside Mimoriyo bifasha abantu mu kuza kwibuka abacu bazize Jenoside muwi gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Umupolisi uri kumwe n'abaturage, ari kubagira inama uburyo bagomba kubana mu mahoro, bicungira umutekano, ndetse buri wese abera n'ijisho rya mugenzi we, kugira ngo batahutazanya, babane mu mahoro.

Abagabo bambaye imyambaro y'umukara, aho bateruye amasanduku arimo imibiri y'abantu bapfuye ndetse n'inyuma hakaba hari abantu babakurikiye bafite indabo bagiye kubashyingura mu cyubahiro, bari impande y'inzu nziza, isa neza.

Abaturage babyutse baje mu murima gukora umuganda kugira ngo bunge ubumwe ndetse bateze imbere igihugu cyabo nabo biteze imbere, babaje kugira ngo bumve bunze ubumwe.

Umuhanda wa kaburimbo hari n'umuhanda w'abagenzi ndetse n'amazu y'ubucuruzi meza, hariho n'imitaka ya MTN ndetse hakaba hari n'abaturage bari mu kazi barimo bacuruza kugira ngo biteze imbere, bateze imbere n'imiryango yabo.

Imodoka ikora umuhanda kugira ngo abagenzi babone uko bagenda, bafasha abaturage gutwara ibintu n'abantu ndetse bakiteza imbere bagateza imbere n'imiryango yabo, ikabaha n'akazi iyo umuhanda uri gukorwa.

Umuntu uhagaze wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara n'umweru ndetse yambaye n'umupira mwiza. ari ku ruhande rw'inzu iteye irangi ndetse isa neza, hafi y'aho hakikijwe n'umuhanda ucaho ugenda.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo ufasha abagenzi mu gutega amamoto, amamodoka bajya mu kazi kabo ka buri munsi ndetse kugira ngo biteze imbere, bateze imbere n'imiryango yabo babone amafaranga abatunga.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza, urimo imodoka y'umweru, ndetse hafi aho ngaho hari n'amazu ateye irangi ry'umweru y'ubucuruzi, afasha abantu mu kwiteza imbere, ndetse nabahaha bagahahira hafi, batiriwe basiraragira.

Umusore utwaye igare, wambaye umupira utukura ndetse harimo n'umumotari, bari muri kaburimbo nziza isa neza ndetse ifasha abaturage mu gutwara ibintu babivana ku masoko ndetse babijyana no ku masoko, ibyo bibafasha kwiteza imbere.

Abaturage bicaye mu ihema rinini ry'umweru, barikumwe n'inzego z'umutekano harimo abapolisi n'abasirikare, baje kubagira inama uburyo bagomba kwicungira umutekano kugira ngo babone uko biteza imbere ndetse barinde n'igihugu cyabo.

Abaturage bari kumwe n'inzego z'umutekano harimo abapolisi abasirikare n'abadaso, ndetse bari mu itente nziza bari kubagira inama uburyo bagomba kwitwara birindira umutekano, ndetse babera ijisho rya bagenzi ba bo.

Umugore uhagaze imbere y'abaturage benshi, arikubagira inama uburyo bagomba kwitwara, babana mu mahoro, abaturage bicaye no mu ihema, rinini ryiza hariho n'ibara rigiye kuba nk'idarapo ry'u Rwanda, ubururu, umuhondo, n'icyatsi.

Abaturage babyukiye mu nama, baje bakumva inama babagira, mu ihema ryiza ry'umweru hariho n'ibara risa n'idirapo ry'u Rwanda, ibyo bari kubabwira bari kubyumva neza.

Abana batoya bari gukina umupira w'amaguru, bari kwishimisha ndetse bibafasha no kunanura amaguru kandi iy'umupira w'amaguru uwukinnye uwitayeho, utanga amafaranga kubawugize umwuga ndetse ukabinjiriza, ugatuma batunga imiryango yabo.

Ikipe y'umupira w'amaguru yambaye neza, Iniforome isa neza ndetse bambaye n'inkweto zabugenewe zikina umupira w'amaguru. Bari mu kibuga cyiza baje kwitabira umukino kugira ngo bashimishe abantu ndetse banabone amafaranga abatunga.

Abantu abagabo n'abagore babyukiye muri siporo, ku kibuga cyiza cyubatse neza, ndetse bibafasha kunanura imitsi yabo, bikabafasha no kumva bakomeye, kuko baba birukanse bakinnye n'umupira.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bambaye neza, inkweto z'amabara atandukanye, amasogisi yumweru. Hari uwambaye umukara ndetse n'amapantaro y'ubururu n'imipira y'ubururu . Uzamuye yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umuhondo.

Abakinnyi b'umupira umwe yambaye imyenda y'ubururu, undi yambaye imyenda y'umuhondo, baje mu kibuga gukina, bagorora umubiri ndetse umupira w'amaguru utanga amafaranga mu gihe wabigize umwuga.

Abaturage babyutse mu gitondo, baje kwa muganga kwipimisha indwara zitandukanye, kugira ngo bumve uburyo amaraso yabo atembera, bipimisha n'izindi ndwara harimo umuvuduko w'amaraso, igituntu ndetse n'ibindi.

Abasore mu gukina umupira w'maguru ndetse mu kibuga cyiza hubatseho n'inzu nziza yubakijwe amatafari ahiye ndetse akaba asakaje n'amabati atukura ndetse ikaba iteye irangi ry'umweru, hari n'ikigega gifata amazi.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, bambaye neza, bagiye gukina ndetse bagiye gukinira igikombe cyitwa Kagame cup, ni Perezida Paul Kagame ugitera inkunga kugira ngo babone amafaranga.

Abakinnyi bambaye imyambaro ya iniforome bari mu kibuga cy'umupira bamwe bambaye imyambaro y'ubururu abandi bambaye imyambaro igiye gusa umukara ndetse baje gukina kugira ngo bashimishe abaturage kandi bibinjirize n'amafaranga.

Abakinnyi b'umupira bari mu kibuga kiza gisa neza, bambaye imyambaro y'ubururu abandi bakaba bambaye imyambaro y'umuhondo, hakaba harimo n'umusifuzi wambaye umupira w'umutuku begeranye n'inzu nziza iteye irangi ry'umuhondo bisa neza.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ariku n'umudamu bari muri siporo kugira ngo bananure amaguru, bagorore imitsi, bibafasha no kumva bamerewe neza kandi bikabongerera imbaraga.

Abana batoya bari gukina umupira w'amaguru, bari gukina ku gitaka, hirya hari ibyatsi byiza bisa neza ndetse hari n'igikuta cyubakishije amatafari ahiye kandi abana bishimye, bibafasha gusabana no kwegerana.

Kaburimbo nziza, iririmo moto, ifite impande ebyiri izamuka n'impanuka, ndetse hanyuzemo n'umuhanda w'abagenzi, bifasha abaturage mu kujyana ibintu, ndetse bagatwara neza kandi bitonze.

Umuhanda urimo iminogo ndetse urimo umugabo wambaye umweru yegereye n'umurima, ukeneye gukorwa kugira ngo abaturage bajye babona uko banyuzamo imodoka zabo n'ibintu byabo.

Umusore wambaye ikabutura y'ubururu n'umupira w'umukara ufashe indobo isa naho irimo amandazi, arikunyura imbere y'inzu z'ubucuruzi ziteye irangi ry'umweru ndetse nziza hariho na moto, inyuma ye hari abandi baturage, basa naho bagiye mu kazi kabo.

Kaburimbo nziza iririmo igicucu cyo kugendamo na moto, ifasha abaturage mu gutwara ibintu n'abantu babijyana hamwe babivana hamwe babijyana ahandi, ndetse bigateza imbere ababikoresha nko kubona amafaranga no gutwara abagenzi.

Kaburimbo nziza, iriho n'umuhanda wa bagenzi, inyuze mu mazu y'abaturage, ifasha abantu gutwara ibintu n'abantu biteza imbere, bateza imbere n'ingo zabo, ndetse hakaba n'amatara afasha abantu mu kubona.

Umukobwa wambaye ijipo yubururu n' numupira w'umukara, ufite terefone ari kugenda yivugiraho, hirya ye hariho igisambu kinini kirimo ibiti, ndetse imbere hakaba hariho n'amapironi agemura amashanyarazi mu baturage.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza ufasha abaturage mu gutwara ibintu n'abantu, bakiteza imbere ndetse bagateza imbere n'imiryango yabo bakabona amafaranga abatunga ndetse bakabona n'amafaranga ajyana ababana babo ku ishuri.

Ikibuga kinini kirimo imodoka ebyiri y'umutuku n'iy'ubururu hasa naho bigira gutwara imodoka kugirango babone perime, ikabafasha kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo.